Igisambu cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hari imbuga y'igitaka ihagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, inyuma yabo hateye ibiti.

Imbuga ngari y'ubutaka, ihagazemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yayo hagaragara ibiti.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi harimo n'abandi bahagaze bambaye icyatsi kibisi imbere hahagaze umugore wambaye ikote ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye amadarubindi ku maso imbere ye hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'agaseke.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bicaye ku ntebe z'ubururu bambaye imyambaro yiganjemo umuhondo ndetse n'cyatsi kibisi hari umugabo uhagaze wambaye umupira wicyatsi kibisi ufite indangururamajwi mu ntokiye.

Imbuga yo mu ibara y'ubururu iteyeho intebe yicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hari mu utumeza duto duteretseho amacupa, harimo n'abafite indangururamajwi, imbere yabo hicaye abandi bantu.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama cyicawemo n'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'abo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye hagaragaramo umugabo wambaye ishati y'amoboko maremare, ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye amadarubindi ku maso. Iruhande rwe yicaye umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya.

Icyumba kirimo ibitambaro birinda urumuri ku madirishya, cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hariyo ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hateretseho n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu batatu, bicayemo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wicaye hagati yabo, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi, mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicamo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho n'igitambaro cy'umweru bateretseho amacupa ndetse na telefone zigendanwa.

Agahanda gasashemo amabuye, karimo umuntu wambaye ikote, ufite umweyo mu ntoki, ari gukubura umuhanda wa kaburimbo umwegereye, inyuma ye hari abantu ndetse n'amapikipiki.

Abagabo babiri bambaye imyenda yo mu ibara ry'umukara igaragara nk'impuzankano y'abapolisi hagati yabo hari umugabo wambaye ikanzu ye ndetse n'ingofero bigaragara nk'imyambaro y'abayisilamu n'umuzungu, inyuma yabo hagaragara imodoka.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, imbere yabo hahagaze abantu bambaye imyenda y'umukara irimo n'umweru, bazamuye ibiganza, iruhande rwabo hari amabendera.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, yambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano z'abagororwa ,inyuma ye hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo, ifite ibara rijya gusa n'umweru.

Icyumba giciyemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara, umwe muri bo ni umuzungu ari guseka, inyuma ye hicaye abandi bantu babiri bambaye imyambaro bigaragara umuzungu akaba yifashe ku munwa.

Umugore uhagaze atari guseka, afite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye ingofero yo mu ibara rya kacyi ndetse n'umukara, yambaye n'imyambaro iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hagaragara igice cy'igihimba.

Icyumba cyicayemo abantu, harimo umugore wambaye umwenda urimo ibara ritukura, yambaye agapfukamunwa mu isura, yicaranye n'umugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara, ufite telefone ngendanwa mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'ubururu harimo umugabo wambaye amadabindi ku maso, wambaye ikoti ry'ubururu wazamuye urutoki.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka ntoya ndetse hakurya yaho hateye ibiti.

Agace gatoya k'imbuga ishashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'imodoka nini itwara abagenzi irimo amabara menshi.

Aganda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, imbere yayo hari ibindi binyabiziga, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gashashemo amabuye, kari kugendamo umuntu wikoreye umufuka munini w'umweru ku rutugu, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo, urimo ikinogo, hari kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hari kugendamo n'amapikipiki inyuma yayo.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo ipikipiki ndetse n'ipikipiki y'ubwikorezi hakurya yayo hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, ugaragara nk'uwasadutse, hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ritukura, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.